Imodoka y'imbangukiragutabara y'Akarere ka Nyagatare, ikaba iteretse ahantu hari amapave, iruhande rwayo hakaba hari inyubako ndende, isize amarangi y'umuhondo, isakaje amabati handitseho ngo medical laboratory.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye mu cyumba runaka, hakaba imbere yabo hateretse ameza y'umweru ndetse n'amazi. Ku ruhande hari abandi badamu ndetse n'undi muntu wicaye mu kagare wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umweru.

Umugabo bogoshe mu mutwe bagashyiramo igipfuka ahantu yakomeretse, akaba asa nkaho yari yarwanye, yambaye umupira w'umukara ndetse n'undi mwenda w'umuhondo mo imbere bikaba bigaragara yuko ababaye.

Abaganga bahagaze inyuma y'imodoka y'imbangukiragutabara bakaba bari kugerageza kwinjizamo umusore ufite imisatsi y'umukara, umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, iruhande hakaba hari undi muntu uri gufotora.

Ikarito iri mu mabara y'umutuku n'umweru, ihambirije ibintu by'ibishashi by'imweru ikaba ifunguyemo imbere hapakiyemo utundi dupfunyika twinshi, turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara yandikishijeho amagambo y'umweru.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru n'ubururu bapfutse mu maso hose, hakaba harimo umwe ufite ikaramu y'umutuku, uri kwandika ku rupapuro n'undi uryamye hasi ku gitanda cyo kwa muganga wambaye imyenda y'umukara.

Abantu benshi bari mu nzu irimo ibitanda byo kwa muganga harimo umwe wambaye ijire y'abaganga ndetse akaba ari kwandika ku meza, hari n'undi na we uri kwandikira hirya ye.

Umugore w'umuganga wambaye imyenda y'umweru n'imisatsi y'umukara akaba yicaye ku ntebe y'urubaho iteretse imbere y'ameza ariho igitambaro cy'ubururu ari kuganira n'umumama ubona yuko akuze, ufite imisatsi y'umukara na we wicaye ku ntebe.

Imodoka y'ibangukiragutabara izwi nka ambilanse ikaba iri mu mabara y'umweru yanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yayo hakaba hari inzu iteye irangi ry'umuhondo ifite n'amadirishya y'umukara, hasi hakaba hari amapave.

Abayobozi mu nzego zitandukanye barimo n'abaganga, bakaba bari kwifotoza bari imbere y'inyubako igeretse yasize amarangi y'umweru, harimo n'inzira zizamuka hejuru, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu bicaye mu cyumba kirimo sima y'umutuku, umuzungu ndetse hari n'urugero rukinze, bari kuganira ku bintu byinshi bitandukanye kuko harimo n'umukozi wa RIB ushinzwe iperereza.

Abagabo bashinzwe ubwubatsi bari kumwe n'abagore bambaye ingofero zabugenewe z'umweru ndetse n'amajire, bakaba bahagaze ahantu mu busitani inyuma yaho hari inyubako, yubakishijwe amatafari ahiye kandi isakaje amabati.

Umuganga wambaye itaburiya y'abaganga na ga mu ntoki akaba yashyize igikoresho cyabugenewe ku muntu kimupima umuvuduko w'amaraso, iruhande rwe hari umujyanama w'ubuzima wambariye itaburiya n'igitambaro mu mutwe akaba afite ikaramu n'ikaye ari kwandika.

Umugore w'umuganga wambaye taburiya y'umweru akaba afite igikoresho cyabugenewe gupima ko umutima w'umwana utera, ari gusuzuma ufite umugore wambaye ingofero y'amabara, umupira w'amaboko magufi ndetse n'igitenge.

Umuntu wambayegare ririho amaraso, akaba afite umukase wifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'urushinge rufashije gushyira umutima mu mubiri, iruhande rwe hakaba hari igipfuku cy'umweru bapfukisha igikomere.

Abantu benshi bambaye imipira y'imyeru hejuru isa irimo ikirangantego, bakaba bahagaze bazamuye amaboko bafite urupapuro barimo barasoma, inyuma yabo hakaba hari itente, ryubatse mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'umweru, ikaba harimo n'inzira itwikiriye aho abanyamaguru banyura, munsi yaho hari abantu bicayemo babiri baganira ndetse na moto iparitse ku ruhande, hirya gato hari ubusitani.

Inyubako ziri ahantu hari kandagira ukarabe, hakaba harimo imwe ifite amabati y'ubururu yubakisha amatafari ahiye, ifite imiryango ikinguye. Hino gato hari iyindi itagaragaza amabati ariko na yo yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi biriho abarwayi ndetse na supanete, hakaba harimo abarwayi bari kuganira n'undi umwe wicaye ku kagare gatwara abarwayi hakurya, harimo inzira nini icamo abagenzi.

Abagore babiri bambaye imyenda y'abaganga bafite imisatsi y'umukara umwe akaba afite urushinge yarujombye mu kantu k'akabase undi akaba ari kumwitegereza, iruhande rwabo hari ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga birimo imiti ndetse na ga.

Umuganga wambaye imisatsi y'umukara, imyenda y'umweru, ga mu ntoki, akaba afite ikaramu y'umukara, ari kwandika ku gatesite, iruhande rwe hari abagabo babiri baje kwivuza, kumeza hakaba hariho imiti myinshi.

Umugore wipfutse mu maso ndetse no ku ntoki, wambaye igitambaro mu mutwe agapfukamunwa na ga z'ubururu mu ntoki, akaba yicaye imbere ya Mayikorosikopi iteretse kumeza agiye kureba indwara.

Umunzani munini ukoreshwa mu gupima ibiro. Hakaba hariho amabuto atanu y'umweru, abiri ku ruhande, irindi mo hagati n'ayandi abiri ku rundi ruhande. Hirya gato hakaba hari umugozi w'umukara, harimo n'imibare ngo icyenda icyenda gatatu gatandatu zeru.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru akaba afite imisetsi y'umweru ari kureba mu byuma byabugenewe byifashishwa mu kureba indwara nto cyane ziza mu mubiri zitagaragara yifashishije icyuma cyabugenewe.

Umugabo wambaye itaburiya y'abaganga, agapfukamawa k'umweru ari imbere ya mashini y'umukara ari gusuzuma indwara, hirya ye hari ibindi bikoresho byinshi byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye.

Ishuri ririmo abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi hakaba harimo umwe ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya ndetse na baji uri kugerageza kudoda, iruhande rwe hari umunzani upima ibiro ndetse n'upima ibintu.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kigezweho mu kureba indwara ntoya cyane zitagaragara ku mubiri w'umuntu. Zifashishwa mu kureba utuntu duto cyane, kikaba kiri ku meza, ahantu mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru n'misatsi y'umukara, bakaba bari imbere y'ameza ariho microscope, bagerageza gupima indwara, hirya gato hari igisenge cy'amabati ndetse n'ibikuta bisize irange ry'umweru.

Abaganga babiri bambaye imyenda ibapfukiranye umubiri wose, bakaba bari kureba mu byuma byabugenewe bisa umweru n'umukara, bishinzwe kureba indwara mu mubiri w'umuntu. Bakaba baritunganyije ku meza ariho bari kubikorera.

Umuganga utagaragara mu maso ugaragara ibiganza gusa, akaba yambaye ga z'ubururu, afite igipimo bapimiraho amaraso giteretse ku meza ari gupima indwara runaka, hirya ye hari ibikoresho byo kwa muganga.

Umuganga w'umugabo wambaye imyenda y'abaganga, akaba yicaranye n'umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye ibitenge, ateruye umwana wambaye imyenda y'umutuku n'uturongo tw'umuhondo, akaba ari kumuganiraho amubwira uko umwana we yarwaye, inyuma yabo hari inyubako.

Umurima w'igikoni ukoze mu mifuka y'umweru ndetse n'ibiti, hakaba hateyemo imboga nziza kandi zitoshye zifashishwa mu mirire y'abana, inyuma yaho hakaba hari igiti kinini cyane kihateye.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba bicaye biganjemo abagore, hirya hakaba hari abaganga bahagaze bambaye imyenda yabugenewe, ku meza hateretseho imiti y'amoko yose ndetse ku ruhande hari na kizimyamto y'umutuku yakwifashishwa mu gihe habaye ikibazo.

Abantu benshi bahagaze barimo abagabo n'abagore bari kumurongo, imbere yaho hakaba hari abagore babiri harimo umwe wambaye amarineti n'ikanzu y'umutuku, ku meza hateretseho amasafuriya abiri, ibikombe, amazi ndetse n'agaseriviyete.

Abantu bane barimo umwe wambaye itaburiya bakaba bari kureba akana karyamye hasi umwe akaba gafashe mu mutwe undi mu nda undi ari kukareba yifashe mu mavi, hirya gato hari ibyatsi byinshi n'ibiti.

Abana batoya bari ku ishuri bakaba bari mu masaha yo kurya, bafite buri umwe umwe isahani iriho ibiryo bisa nk'umuceri ndetse n'ibijumba. Bakaba barikumwe n'umwarimu wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'icyatsi, n'umupira w'amaboko magufi ubagaburira.

Umugore n'umugabo bari kuganira bicaye ku ntebe z'umweru, bari mu nzu iteye irangi ry'umuhondo iruhande rwabo hakaba hari igitanda cy'abarwayi gisa umutuku ndetse n'ameza ariho ikaramu.

Abana batoya bambaye imyenda y'umuhondo, batoye umurongo, bakaba bari kujya gukaraba, kuri kandagira ukarabe, iruhande rwaho hakaba hari umwarimu, wambaye umupira w'umweru, ushinzwe kubitaho.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye barimo abasirikare bakaba bafite ibikapu mu ntoki baje gusura abana biga mu mashuri y'inshuke bicaye ku musambi, babazaniye ibikapu ndetse n'izindi mpano zitandukanye.

Abantu benshi bazamuye amaboko, bicaye ahantu hamwe bafite inkoni ndetse harimo n'abahagaze inyuma yabo, hakurya hari igiti ndetse n'inyubako ikinguye imiryango.

Abantu batatu barimo umugore umwe n'abagabo babiri bambaye imyenda y'icyatsi bakaba bafite impapuro mu ntoki zandikishijeho amagambo y'umutuku n'abana bahagaze inyuma yabo bari gukina.

Icyumba cyahuriyemo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho biganjemo abagore n'abagabo, imbere hakaba hari umugabo wambaye amarinete, umupira w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara akaba ari kubaganiriza, inyuma ye hari ameza ariho kompiyuta.

Abantu benshi bicaye mu itente hakaba hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi urimo arabavugira ibintu bitandukanye, inyuma yabo hari inzu isakaje amabati kandi yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa, biganjemo abagore ndetse n'abagabo bake, bakaba bafite icyapa imbere yabo kiri mu mabara y'umweru, cyandikishijeho amabara y'umukara bifotoza.

Abantu batatu barimo umwe wambaye ijile y'umutuku bakaba bateruye umwana, bafite n'agapipa mu ntoki. Inyuma yabo hakaba hari abantu benshi bicaye, abandi bitwikiriye imitaka, inyuma yabo hakaba hari uruzitiro ndetse n'ibiti.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba iriho kizimyamowoto, hejuru hakaba hariho irangi ry'umuhondo ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agira ati Isange One Stop Center.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ibitenge, iruhande rwabo hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye ijire n'icyapa cyanditseho ngo RBC baho neza.

Abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi bahuriye mu nzu, kumeza hateretseho amakarita menshi, ku ruhande gato hari umugabo wambaye baji mu ijosi, umupira w'umukara n'ipantaro uri kuvuga.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'amaboko magufiya w'icyatsi n'ibitenge ufite mikoro mu ntoki ari kubwira abantu. Kuruhande rwe hari abandi bantu babiri umugore n'umugabo.

Umuntu ugaragara ibiganza gusa, akaba afite ibinini biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo bifunitse mu masha y'umweru yandikishijeho amagambo y'umukara menshi agiye atandukanye.

Inyubako ifite imiryango miremire y'ubururu ikinguye mo imbere hakaba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka y'umweru igaragara igice k'imbere gusa n'ipine rimwe.

Inzu irimo ubucuruzi bw'imiti bugiye butandukanye, harimo iri mu makarito ndetse n'indi iri mu mayetajeri, iragaragara mu moko atandukanye y'imituku, umukara, umuhondo ndetse n'ibindi bice bitandukanye.

Umucuruzi uri muri butiki uri gucuruza ibintu bitandukanye ariko hakaba harimo n'amakarito ameze nk'ay'imiti ari mu mabara y'umutuku, ay'icyatsi, ay'umuhondo, ay'umweru, akaba yambaye isaha ku kaboko ndetse n'amaherena.

Umumotari wicaye kuri moto afite kasiku y'umutuku n'indi y'icyatsi mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari umugore ufite agafuka mu ntoki, hirya gato hakaba hari inyubako ifite imiryango y'umweru isize irangi ry'umuhondo.

Inyubako ndende ifite amarange y'umuhondo, hakaba hariho icyapa kinini cy'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ngo rayon fomasi, munsi yaho harimo andi magambo yandikishije andi mabara.

Inzu icuruza imiti itandukanye y'amatungo ndetse n'iy'abantu, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ari gukora mu makarito asa umweru, ay'umutuku ndetse ayatunganya ku buryo buboneye.

Umucuruzi uri ahantu bacururiza imiti, hakaba hapakiye myinshi mu dukarito ndetse n'iyindi, iri kuruhande. Ushobora kuyibona mu dukarito tw'umuhondo umutuku n'umweru n'utundi.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, barimo abapolisi babiri ndetse n'abanyeshuri bari kugenda mu muhanda, harimo abambaye impuzankano y'umuhondo, bakaba bafite icyapa kinini cyanditse mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imyeru n'ubururu n' inkweto z'umukara n'umweru, bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye itaburiya, bakaba bafite icyapa cy'umweru, kiriho amagambo y'ubururu n'umukara, bakaba bazamuye n'utundi tuntu.

Umugabo wambaye amarnete n'umupira w'amaboko magufi y'umweru, akaba afite ibyapa bibiri mu ntoki yambaye n'umupira wanditseho RPC, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse ngo ugakoreshe neza.

Abantu b'abagore bicaye muri sale ku ntebe zimbaho, hirya hakaba hari ibishushanyo by'abantu, umwe ufite isuka yambaye imyenda y'umukara undi afite igitambaro mu mutwe, ari kuri mikoro irimo gucuranga n'undi w'umuganga.

Ivoma rusange ririho abantu benshi bahaje hakaba hari amajerekani menshi atoye umurongo, hari umugore wambaye igitambaro n'ibitenge arimo aravomesha hari n'injekani imwe igezweho bari kuvomera.

Abana babiri b'abasore bambaye imipira y'umuhondo, bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo n'uruhare rwa buri wese, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bari mukibuga harimo uwambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru.

Abagore benshi bafite ibintu bicumbamo umwotsi bimeze nk'inkono, bakaba bapfukamye bari gusenga, umwe akaba yihimbiye ikintu mu mutwe kimeze nk'igisaro, undi nawe akaba ameze nk'urikota umwotsi. Bambaye ibitenge biziritse mu nda.

Umutiba ukoze mu birere ukaba umanitse mu giti kirekire gifite isubyo, ku ruhande hari ibindi biti byinshi biwukikije harimo ibifite amababi y'icyatsi ndetse n'itaka.

Umugabo wambaye imyenda y'abaganga n'ingofero y'abaganga, akaba yambaye agapfukamunwa afite igipapuro mu ntoki gifite amabara y'umutuku ndetse n'iz'umuhondo, iruhande rwe hakaba hari uducupa tw'umukara dupfundikishije imifundikizo y'umweru turimo imiti.

Inyubako nziza zegeranye zirimo abantu benshi n'inzira y'abanyamaguru hazwi nko ku bitaro bya Nyagatare, hakaba hari umuhanda w'igitaka ariko aho abantu batambikira bajya kwivuza hakaba harimo sima.

Umuntu utagaragara w'umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi akaba arimo aramasa uwundi muntu uryamye ku buriri amukandira ibirenge, akaba yiyoroshe isume y'umweru.

Umugore wambaye imyenda y'umutuku, akaba yicaye ahantu hari imiti myinshi cyane, ipfundikiye mu ducupa tugiye dutandukanye, utw'umweru, utw'umukara n'ibindi. Akaba afite umusatsi w'umukara, afite n'inkoni mu ntoki.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye ishati maremare yi'cyatsi, akaba afite icupa ririmo ubuki ry'umutuku ririmo umupfundiki w'umuhondo, ku ruhande hakaba hari ayandi mapaki menshi asa umweru.

Imbuto nyinshi n'imboga byifashishwa mu buvuzi gakondo; twavugamo nk'indimu, tungurusumu ndetse n'ibindi byinshi harimo ibiri mu gakono, ibiri mu gasekuru ndetse n'ibiri mu gikombe bipfundikiye.

Ibirahure bibiri birimo imiti gakondo yari ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye, bikaba biteretse ahantu hasa umweru ndetse no ku ruhande hateretse ibindi biti ibindi byatsi byinshi by'amoko anyuranye.

Imifuka myinshi ipakiye ahantu iri mu mabara y'umuhondo, yandikishijeho amagambo y'umukara. Hakaba hariho inyamaswa imwe nini, kandi iyo mifuka ikaba yenda gukora hejuru ku gisenge. Ku nkuta z'iyo nzu hasize irangi ry'umweru.

Abantu benshi bari kwifotoza biganjemo abaganga n'abandi bakozi bakora ku ivuriro ryanditseho ngo girubuzima, rikaba risize irangi ry'ubururu n'igisenge cy'ubururu, ku ruhande hari igitembo kimanura amazi hasi.

Amakarito menshi ari mu mabara agiye atandukanye apakiyemo imiti y'amatungo yiganjemo inka, ingurube, ihene ndetse n'intama, ateretse ahantu muri etajeri nini ku buryo umuntu ashobora kubibona ku buryo bworoshye.

Umuntu utagaragara mu maso agaragara ikiganza gusa, akaba afashe agacupa mu ntoki kariho igishushanyo cy'umweru. Iruhande rwe hari andi makarito ariho ibishushanyo by'amatungo birimo inka, ihene ndetse n'intama.

Umuganga wambaye imyenda y'abaganga, agapfukamunwa n'ibitabo byinshi biri imbere ye akaba afite umuntu ari guhanagura ku gatoki kugira ngo amutere urushinge, iruhande rwe hari uwundi mudamu uhagaze wambaye agapfukamunwa k'igitenge, ishati y'igitenge ndetse n'ikote yambaye n'impeta.

Abagore benshi bafite abana batoya bahuriye ahantu hamwe bicaye ku ntebe bashyigikiye abana bakaba bari kumwe n'umugabo munini wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'icyatsi uri kugenda abavurisha igihiko, hirya y'aho hari abandi bantu.

Abantu barimo abagore n'abagabo bambaye imipira y'icyatsi, n'undi umwe wambaye itaburiya y'ubururu, akaba afite igikapu mu ntoki abandi bafite amamvirope mu ntoki, bari kwifotoza hamwe kandi bishimye.

Umubyeyi uhetse umwana mu mashuka y'umweru, akaba afite umusatsi w'umukara ari gutambuka ahantu mu cyumba hatabona neza hari irangi ry'umuhondo, ku mpande hari amadirishya ajya gusa ubururu n'inzira isohoka hanze.

Icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu mabara agiye atandukanye, kiriho n'ifoto y'imbangukiragutabara inyuma gato hari indabyo nziza n'inzira inyurwamo n'abanyamaguru itunganyije neza.